Mu gihe kuri ino eteje, tubonaho umugore urimo gusohokamo yambaye ishati y'amaboko maremare ikindi acigatiye igitabo, mu kwaha ikindi ku ruhande rw'iwe hakaba hari icyapa.

aka ikintu cyigisha yashoboraga kuba igiciro kandi cyiza kubera inzotuzigezegana